Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bari mu ishuri ririmo ibikoresho bigiye bitandukanye nk'intebe, ameza n'ibindi, ni ahantu ubona ko ari heza kuko hari ibikoresho by'ingenzi.

Umubyeyi wicaye hagati y'abana, arimo kubagira inama y'uburyo bakitwara kugira ngo babashe kubaho neza, uyu mubyeyi ababwira ko igiti kigororwa kikiri gito.

Icyumba kirimo abanyeshuri biga mu mashuri y'incuke. Biragaragara ko ari abana bato bafite imyaka hagati y'itanu n'irindwi kandi bakeneye kwiga kugira ngo bakure neza.

Ikigo cy'amashuri kigaho abana benshi cyane, aba bana bari hagati y'imyaka y'itanu n'icumi, bicaye ku ntebe nziza ndetse imbere yabo hari ameza akoze mu biti.

Icyumba cyateraniyemo abana baturutse mu bice bitandukanye bambaye imyenda y'ishuri, biragaragara ko bari gufata amafunguro kugira ngo bagire ubuzima bwiza kandi barishimye.

Abana batandukanye bari kumwe n'umurezi wabo uri kubaganiriza. Uyu murezi avuga ko aba bana iyo bitaweho ubona bitonze kandi bafata vuba.

Ikigo cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye. Mu mbuga yacyo hateye sima, aho abanyeshuri bakunda gukinira, maze bagasabana, amasomo yabo akagenda neza cyane.

Abana bicaye hejuru ya kandagira ukarabe, bigaragara ko bavuye ku ishuri, ariko bakaba batatashye. Aba bana bakeneye umuntu ubacyaha, kugira ngo basubire iwabo mu rugo.

Abana babiri biga mu mashuri abanza bari kugenda mu muhanda, bari kwirukanka bigaragara ko batinze gutaha maze bakaba bari kwihuta kugira ngo bagereyo vuba, aba bana ni bato kandi ni abakobwa.

Abana b'abanyeshuri bavuye kwiga, bari kugenda mu muhanda, hepfo hari ishyamba ry'inzitane, rigaragara ko bagize ubwoba bwo kurinyuramo, maze bakomeza umuhanda kugira ngo badahuriramo n'ibisimba.

Umubyeyi wicaye ku musambi uri kumwe n'abana, arimo arabaha igikoma, uyu mubyeyi kandi yiteze igitambaro mu mutwe arimo aragenda abafasha kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Abana biga mu mashuri abanza bambaye impuzankano y'ubururu bicaye ku ntebe zisize irange ry'icyatsi, imbere yabo hari ibikoresho bakoresha biga kugira ngo biyungure ubumenyi.

Abana biga mu mashuri abanza, bambaye impuzankano y'ubururu ndetse n'umweru, aba bana biragaragara ko bavuye ku ishuri kandi baracyari bato barashonje.

Icyumba kiberamo ibikorwa bitandukanye kicayemo abana bagiye kwiga, aba bana biragaragara ko ari abana biga mu mashuri y'inshuke bari kwitabwaho kugira ngo babone kujya mu masomo.

Icyumba cyateraniyemo abana baturutse hirya no hino, aba bana biga mu mashuri y'incuke, bigaragara ko bari gutozwa ndetse bigishwa gusoma inyuguti zitandukanye.

Abana biga mu mashuri y'incuke bambaye impuzankano y'ubururu n'umukara, aba bana bicaye hasi bigaragara ko bari kwigishwa n'umwarimu ubagira inama kandi akababwira ko bagomba kwiga neza.

Ihuriro ry'abana baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda y'umukara, icyatsi, umutuku ndetse n'umweru, hagati yabo hari umubyeyi uri kubatoza abagira inama ndetse abigisha.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bambaye impuzankano y'umweru ndetse abandi bambaye kaki. Biragaragara ko ari ikigo cy'amashuri yisumbuye gisakaje amabati y'ubururu.

Inyubako y'igikoni bigaragara ko itekerwamo abanyeshuri, inyubako bigaragara ko ari nziza kandi ikoranye ubuhanga kubera ko igiye ifite imyenge inyuramo imyotsi.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'ubururu ndetse na kaki, barimo gukina umupira biragaragara ko bishimye kandi banezerewe, bityo bigatuma biga neza maze bagatsinda amasomo yabo.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, ifite inzugi z'icyatsi ndetse isakaje amabati y'ubururu, iruhande rwayo hateye indabo nyinshi kandi nziza.

Abana biga mu mashuri y'inshuke, akenshi bakunze gukina umupira kugira ngo bishime kandi baganire, aba bana bigaragara ko bakiri batoya bakeneye ubujyanama.

Abana biga mu mashuri abanza, bambaye impuzankan no y'ibara rya kaki ndetse na kotoni, aba bana bafite ibikapu birimo amakayi.

Abanyeshuri bavuye ku ishuri bambaye impuzankano irimo amabara y'umweru ndetse na kaki, biga ku kigo cyubakishije amatafari ahiye ndetse gisakaje amabati y'ubururu.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, akenshi bavuga ko iyo bize neza babona amanota ariko iyo batagiye ku ishuri, bahura n'imbogamizi yo kudatsinda neza ibizamini.

Abana babiri bambaye impuzankano y'ubururu, bahetse ibikapu byiza ndetse bambaye n'inkweto z'umutuku n'umuhondo, aba bana biragaragara ko bavuye ku ishuri bakeneye ifunguro rya saa sita.

Abana b'urungano bavuye ku ishuri, biga mu mashuri abanza. Bari kumwe n'umubyeyi wabo, urimo kubigisha uburyo babana ndetse, bakagirana inama y'uburyo batsinda amasomo.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bakunze gukoresha ingwa z'amabara mu gihe bari kwandika ku kibaho, ingwa kandi zikoreshwa no mu mashuri yisumbuye, bandika ku bibaho kugira ngo abanyeshuri babashe kwiga neza.

Ishuri ririmo intebe ndetse n'ikibaho abanyeshuri bakoresha bari kwiga. Iyi nyubako kandi isakaje amabati meza kandi yubakishije amatafari ahiye.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bafite ibikoresho, bakoresha ku ishuri, kugira ngo bige neza. Aba bana bambaye impuzankano y'ubururu, ndetse n'amakabutura ya kaki.

Inyubako nini yubakishije amatafari ahiye isakaje amabati, inzugi zayo zirasa umukara naho mu mbuga hari sima nyinshi ubona ko hagaragara neza.

Abana bo mu mashuri abanza bafite za mudasobwa bakoresha ku ishuri, kugira ngo biyungure ubumenyi. Aba bana kandi bamenyereye ko iyo bakoresheje mudasobwa, hari byinshi bunguka.

Ikigo cy'amashuri gisakaje amabati y'ubururu, higaho abana batandukanye mu myaka. Aba bana bambaye impuzankano y'ubururu ndetse na kaki. Ni ikigo ubona ko giteye imbere.

Ikigo cy'amashuri abanza kirimo abana baje kwiga. Harimo intebe ubona ko zikomeye kandi ari iza kera. Abantu ba kera bakoraga ibintu bikomeye, iyo ugereranyije n'ubu ngubu.

Ikigo cy'amashuri gisakaje amabati atukura, kizengurutseho ibyuma byinshi, ni ahantu heza bigaragara ko hakorerwa ibindi bikorwa bijyanye n'iterambere kandi bifasha abantu mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, iruhande rwayo haparitse imodoka nyinshi na moto bitwara abagenzi, hari ikirango kiyobora abagenzi kiberekeza muri icyo kigo.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa kugira ngo abantu bakore ibikorwa bigiye bitandukanye. Harimo ameza, ibitanda ndetse na matera bararaho kugira ngo bakore akazi bamaze kuruhuka.

Ikibaho gishushanyijeho umugabo ndetse n'ibice by'umubiri. Iki kibaho kiri mu ibara ry'umukara kandi giteye ku rukuta rwubakije amatafari ahiye.

Abanyeshuri batandukanye bambaye impuzankano y'ibara ry'ubururu, ndetse na kaki, bari ahantu imbere y'inyubako nini isakaje amabati y'ubururu ndetse iriho inzugi z'icyatsi.

Inyubako nini irimo ibikoresho bigiye bitandukanye. Iyi nyubako kandi harimo amadirishya asize irangi ry'ubururu ndetse na rido nziza. Hari ameza ateretseho ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bambaye impuzankano, bambaye kake kandi barishimye bari kwiga kugira ngo bazabe abayobozi beza b'ejo hazaza.

Icyumba kirimo abana biga mu mashuri abanza, bafite mudasobwa bari kwigiraho. Akenshi izi mudasobwa zibafasha kwiyungura ubumenyi butandukanye, bakabasha kwiga neza.

Icyumba cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye, cyirimo ikibaho cy'umukara, icyo kibaho gishushanyijeho imibare myinshi mu ibara ry'umweru, ndetse n'andi magambo mu ibara ry'umuhondo.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, iriho ibirahure ndetse n'inzugi nziza cyane. Iyi nyubako kandi irimo amakositara manini agezweho.

Urwunge rw'amashuri rwa Gasagara ruri ahantu heza, iki kigo kandi gisakaje amabati atukura kizitijwe imiyenzi minini cyane.

Inyubako isakaje amabati y'ubururu, ifite urugi rw'umuhondo. Biragaragara ko iyi nyubako ishaje, ikeneye ivugurura rishya. Maze abanyeshuri bakabona aho bigira hasa neza.

Ikigo cy'amashuri gisakaje amabati atukura, hariho abanyeshuri batandukanye. Yaba abiga mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, bigaragara ko barimo gutaha abasomo arangiye.

Ikigo cy'amashuri cyubashishije amatafari ahiye, abanyeshuri bavuga ko ari ahantu heza bakwiye kwigira bagafata, ariko iyo hubatse nabi bahura n'imbogamizi yuko haba hatagaragara neza bityo ntibafate.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye, kirimo abanyeshuri bari gukora ikizamini, abanyeshuri kandi biragaragara ko barimo kwiga kandi kugira ngo baziteze imbere mu gihe kizaza.

Ikigo kinini kiberamo imikino idasanzwe, haba abakina umupira, abakina indi mikino igiye itandukanye bahurira bakaza kwidagadura maze bakishima.

Mu mashuri yisumbuye higayo abana bakuze ku buryo baba bazi icyo gukora. Iyo aba bana bakoze imirimo yabo neza bituma babasha gutsinda amasomo, bakagira umumaro muri sosiyete muri rusange.

Icyapa kiyobora abanyeshuri bagiye kwiga mu rwunge rw'amashuri kugira ngo bagereyo batayobye, iki cyapa kiriho irange ry'ubururu ndetse n'umweru bigaragara ko kiyobora abanyeshuri bagiye kwiga.

Ikigo cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye, iruhande rw'iki kigo hateye indabo nziza ndetse hateye n'ibiti, iki kigo cyanditseho amagambo agiye atandukanye.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'ibara ry'umweru na kaki, bavuga ko iyo bize neza babasha gutsinda mu ishuri, banavuga ko iyo umwarimu abahaye ibyangombwa bagira ubumenyi bw'ibanze.

Ikigo cy'amashuri kiriho abanyeshuri benshi cyane barimo kwiga, abenshi baba bari hanze bakora amasuku, abandi bafatanya mu bijyanye n'amasomo basobanurira abatarasobanukiwe mu gihe umwarimu yigishaga.

Isomero ry'ibitabo, ibitabo byinshi bikunze kuba byanditse mu rurimi rw'Icyongereza ariko hari ibyanditse mu Kinyarwanda aribyo abana bakoresha kuko baba batarasobanukirwa ururimi rw'Icyongereza.

Icyumba kinini kirimo ibitanda bigiye bitandukanye, biriho matora, ibi bitanda kandi biragaragara ko ari abanyeshuri babiryamaho kugira ngo bakore kandi bige neza.

Inyubako nini isakaje amabati y'ubururu, iruhande rwayo hari ibiti byinshi. Hagati muri iyo nyubako hateye ibyatsi ndetse n'indabo, bigaragara ko ari ikigo cy'amashuri yisumbuye.

Ikigo cy'amashuri, gisakaje amabati y'ubururu, iruhande rwacyo hicaye abana bakigamo. Bavuga ko aha hantu ari heza kuko bahakorera ibikorwa bigiye bitandukanye.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bambaye impuzankano y'umweru n'umukara ndetse bambaye n'amasogisi y'umweru, bari imbere y'ikigo gisize irange ry'umweru n'umuhondo bigaragara ko bishimye.

Inyubako nini isakaje amabati y'ubururu isize irange ry'umweru n'umuhondo, iri ahantu heza umuntu wese ashobora gukunda, iyi nyubako ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye bijyanye n'iterambere.

Icyumba cyateraniyemo abanyeshuri baturutse mu bice bitandukanye baje kwiga ndetse bari kwiyungura ubumenyi, abanyeshuri bavuga ko iyo bigiye hamwe bibafasha maze bigatuma biga neza.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, ibitabo, intebe ndetse n'ameza, iki cyumba kigirwamo n'abanyeshuri batandukanye, aho bahabwa ubumenyi bw'ibanze bakabasha kumenya ubwenge.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bavuga ko bakunze guhura n'imbogamizi ijyanye no kubura ibitabo bigiramo bityo bikadindiza ubumenyi bwabo ntibabashe gutsinda neza.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye, kirimo igiti cyiza gikurura umuyaga n'amahumbezi. Iki kigo, gisakaje amabati y'ubururu kandi abanyeshuri bigamo bambara impuzankano y'umukara ndetse n'umweru.

Imodoka yiganjemo ibara ry'umweru n'umukara, iparitse mu muhanda w'amapave, ni imodoka nini ubona ko ihenze kandi igura amafaranga menshi, uyibonye wavuga uti iyi modoka irahenze.

Ikigo cy'amashuri gisakaje amabati y'ubururu, cyubatse ahantu heza bigaragara ko ari ku musozi hirengeye, hari abanyeshuri bari kuhagenda bigaragara ko bazi ubwenge kandi bazi icyo gukora.

Inyubako nini isakaje amabati atukura, ikikijwe n'ibiti byinshi. Iyi nyubako hagati muri yo hari ibiti byinshi bigaragara ko ari ahantu hakorerwa ibikorwa bitandukanye.

Abapolisi bambaye impuzankano yabo bari kwigisha abanyeshuri mu ndangagaciro bagakwiye kugenderaho, harimo kubaha, kudasuzugura ndetse no gukunda Igihugu.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bari gukora ikizamini cya Leta, aba bana kandi biragaragara ko ikizamini bagitsinze kandi bazakomeza mu yandi mashuri.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, harimo abayobozi baje guha ubufasha abarwayi bakirimo, harimo intebe bicaraho ndetse n'aho babaganiririza.

Umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse n'isaha ku kuboko, arimo aratanga imbwirwaruhame, ayigeza ku bantu abagira inama kugira ngo na bo bajijuke bave mu biyobyabwenge biteze imbere.

Ikigo cy'amashuri gisakaje amabati y'ubururu, hagati mu kigo hateyemo ibiti byinshi ndetse harimo indabo nyinshi, iki kigo kizengurukijeho ibyuma bikomeye.

Ikigo cy'amashuri gisakaje amabati y'ubururu, kigaho abana bambaye imyenda y'icyatsi ndetse n'ubururu, hari imodoka y'umweru n'umukara ihaparitse, bigaragara ko yaje gutwara abo bana.

Icyumba gitangirwamo serivisi zijyanye n'amasomo mu mwaka wa gatanu. Aha ni ho abanyeshuri bageze muri uyu mwaka bahurira bakiga ndetse bakiyungura ubumenyi bugiye butandukanye.

Inzobere mu bijyanye n'ikoranabuhanga zahuriye hamwe kugira ngo zige ku bikorwa bigiye bitandukanye, bashaka kugeza ku baturage n'uburyo bazabibagezaho mu buryo bworoshye.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bicaye ku ntebe nziza cyane, imbere yabo hari umwarimu uri kubigisha, ari kwandika ku kibaho gisize irange ry'icyatsi, ni ahantu ubona ko hari ibikoresho bigiye bitandukanye.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye bari kwiga ku nsanganyamatsiko yabateranije hamwe. Hari umuyobozi uhagaze imbere y'abana, arimo arababwira abaha inama ndetse abagira inama.

Ikigo cy'amashuri kizitijwe ibyuma, iki kigo kandi cyubakishije amatafari ahiye. Bigaragara ko ari ahantu heza hari umuriro w'amashanyarazi, iki kigo kandi kirimo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye.

Icyumba kirimo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bigaragara ko bateze amatwi umurezi wabo, ni ahantu mu cyumba kinini kiberamo inama bigaragara ko ariho bahuriye.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye cya Ruhango gifite umuryango usize irangi ry'ubururu, hariho kandi ikirango kigaragara mu ibara ry'umweru.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye kiriho abana benshi cyane bahahuriye. Aba abana baje mu mikino igiye itandukanye bigaragara ko bari mu marushanwa rusange.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bari kwandika ku kibaho. Bose bambaye impuzankano y'umweru ndetse na kaki. Biragaragara ko bari kwigishwa n'umwarimu w'umuhanga, uri kubaha ubumenyi bw'ibanze.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, ndetse isakaje amabati atukura, iyi nyubako iri ahantu heza, kandi ifite urubaraza rwiza ruriho amabuye azubakwaho sima.

Mu mashuri yisumbuye higamo abanyeshuri, bigaragara ko ari bakuru, aba banyeshuri kandi batojwe kwiga, batozwa n'indangagaciro kugira ngo babashe gukurikirana amasomo yabo kandi neza.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye gisakaje amabati y'ubururu ndetse kiriho urugi rw'icyatsi, kiri ahantu heza ubona ko ari imbere y'umuhanda wa kaburimbo.

Inyubako nini irimo ibikoresho by'ikoranabuhanga abanyeshuri bakoresha kugira biyungure ubumenyi, ni ahantu heza abanyeshuri bahurizwa bagahabwa ubumenyi bwi'koranabuhanga.

Inyubako isakaje amabati y'ubururu, igaragara nk'amacumbi y'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye. Iyi inyubako ni nziza iri ahantu heza, kandi ituma abanyeshuri biga neza kuko isa neza.

Icyumba kirimo intebe z'abanyeshuri biga mu mashuri abanza ndetse n'ibitabo bitandukanye, iki cyumba kirimo ibitabo ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye bifashisha kugira ngo amasomo yabo agende neza.

Ikigo cy'amashuri gikikijwe n'uruzitiro rw'ibyuma, aho abantu biga bagasoza amasomo yabo neza. Ni ahantu hateye amatsiko kuhagera kubera ko hasa neza.

Ikigo cy'amashuri gikikijwe n'ibyuma, mu iki kigo hagati hateyemo indabo, ibiti ndetse n'ibyatsi byiza cyane. Aha hantu kuharuhukira uhumeka neza ndetse ukumva ufite n'umutekano.

Abanyeshuri bari kugenda mu muhanda wa kaburimbo, bambaye imyenda y'ubururu n'umukara, aba banyeshuri kandi bahetse ibikapu bigaragara ko bagiye ku ishuri kandi bakererewe.

Imodoka ijyana abana ku ishuri akenshi itaha yihuta kugira ngo abana bagere mu rugo vuba batakerewe, babone uko biga amasomo ya nimugoroba bishimye.

Ikigo cy'amashuri gikikijwe n'indabo nyinshi, iki kigo kandi kizitijwe ibyuma bigiye bitandukanye, bisa amabara y'umukara ndetse n'ubururu.

Ikigo cy'amashuri cya Butare, giherereye ahantu heza cyane, iki kigo kandi kiri ahantu hari amashuri asakaje amabati y'umutuku.

Umuhanda munini uri kugendamo abantu benshi. Uyu muhanda harimo imodoka, bigaragara ko iyi modoka ari nziza ikoze mu bwoko bwa tagisi itwara abagenzi.

Abanyeshuri biga mu mashuri, yisumbuye bari gukora ibikorwa bigiye bitandukanye kuri interineti, aba banyeshuri kandi bambaye udupfukamunwa kubera icyorezo cya kovidi cyateye.

Isomero ry'ibitabo bitandukanye harimo ibitabo by'amoko yose, iby'imibare, amateka, inkoranyamagambo ndetse n'ibindi abantu basoma bakiyungura ubumenyi.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye, gisakaje amabati y'ubururu, hagati mu kigo harimo indabo nziza ndetse na pasiparumu hamwe n'ibyatsi byiza biconze neza.

Inyubako nini yubakishije amatafari ahiye, bigaragara ko ari ahantu hakorerwa ibikorwa by'ubucuruzi. Hari umuhanda wa kaburimbo ugana hagati muri iyo nyubako, bigaragara ko abantu bahakorera bajijutse kandi ari intyoza.

Umwarimu urimo kwigisha abanyeshuri kugira ngo bagire ubumenyi bw'ibanze, babashe kwiteza imbere mu gihe cyabo ndetse n'ikizaza, aba banyeshuri barakurikiye kandi biteguye kugira ubumenyi rusange.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, barimo gutanga imbwirwaruhame bayigeza ku bandi, abanyeshuri bambaye impuzankano y'umweru ndetse n'amapantaro ya kaki bigaragara ko ari abayobozi b'abandi banyeshuri.

Ikigo cy'amashuri gisakaje amategura, cyigaho abanyeshuri bambara impuzankano ya kaki ndetse n'umweru. Ni abanyeshuri ubona ko bari mu myaka hagati ya makumyabiri ndetse na makumyabiri n'itatu.

Inyubako nini irimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, nka mudasobwa, ndetse n'ibindi. Mu ishuri akenshi, abarimu bakoresha ibi bikoresho kugira ngo batange ubumenyi mu buryo bwihuse.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bahuriye ahantu hamwe kugira ngo bige ku bibazo bigiye bitandukanye bagenda bahura na byo mu buzima bw'amasomo yabo, imbere yabo hari umusirikare ndetse n'umudaso uri kubaha inama.

Inyubako nini irimo intebe z'imisego. Iyi nyubako isize amarangi y'umweru ndetse n'ubururu, imbere hari utubati twiza ndetse n'ameza. Biragaragara ko haberamo inama zigiye zitandukanye.

Abayobozi baturutse mu bice bitandukanye hirya no hino bari kwiga ku nsanganyamatsiko, aba bayobozi bavuga ko iyo bahuriye hamwe baganira kuri byinshi maze bakiyungura ubumenyi.

Ibikoresho biri mu cyumba, harimo intebe, ameza, mudasobwa n'utubati, ibi bikoresho byifashishwa mu gihe bari gukora inama zigiye zitandukanye.

Inyubako isakaje amabati atukura isize irangi ry'umuhondo, yubatse ahantu harambitse hari amapave ndetse n'ibiti byinshi cyane birebire.

Icyumba giteguye neza kirimo matela nziza, ibitanda byiza ndetse na rido, ni icyumba kigari ubona ko kirimo ibitanda bibiri, abantu baryamaho bakumva baguwe neza.

Ikirango cya MTN bigaragara ko kiri ahantu mu kibuga cy'umupira. Aha hantu biragaragara ko hakinirwa umupira w'amaboko bakunze kwita basket.

Inyubako yateraniyemo abantu baturutse hirya no hino, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu, umutuku ndetse n'umukara, imbere yabo hari abayobozi bari kubagezaho imbwirwaruhame.

Inyubako irimo abanyeshuri biga muri Kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye, iyi nyubako kandi irimo intebe zisize irange ry'umutuku, bigaragara ko zikomeye.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, harimo ibitabo abantu baza bagasoma maze bakiyungura ubumenyi, bityo bigatuma babaho bajijutse kandi bafungutse mu mutwe kandi bazi gusoma neza.

Isomero rinini ry'ibitabo byinshi cyane, aha hantu niho abantu bahurira bagasoma maze bakiyungura ubumenyi, Iyo usomye neza ibitabo ukunguka ubumenyi bituma ubasha kugira ejo hazaza heza.

Mu kibuga abantu bakiniramo hari abanyeshuri benshi baje mu marushanwa, abenshi baravuga ko iyo biteguye umukino mbere yuko bajya kuwukina, bibaha amahirwe yo gutsinda ikipe bahanganye.

Ihuriro ry'abantu baturutse hirya no hino, bambaye amakoti ndetse n'amashati meza; bari ahantu bari kwiga ku nsanganyamatsiko zigiye zitandukanye n'uburyo bakwiteza imbere.

Inyubako nini irimo abantu baturutse mu bice bitandukanye bambaye imyenda y'amabara y'umukara umweru n'umutuku, imbere yabo harambitse za mudasobwa bari kugenda bareberamo kugira ngo bakomeze kwiga.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bahuriye ahantu hamwe kugira ngo bagezweho inama zigiye zitandukanye, biragaragara ko ari urubyiruko ruri guhabwa imbwirwaruhame.

Iyo umuntu afashe ibikoresho bye akabibika neza, bituma yinjira mu nzu agasanga isa neza kandi ikeye. Ariko iyo ibintu byawe utabishyize ku murongo bituma ubona hajagaraye.

Inzobere mu by'ubuzima zivuga ko akenshi kugira ngo usuzume umurwayi umenye indwara arwaye bisaba ubundi bumenyi butandukanye, bavuga ko iyo wumvise ufite ibimenyetso ari ngombwa kwihutira kujya kwa muganga kugira ngo usuzumwe neza.

Inyubako igeretse gatatu isize amarangi y'umuhondo. Iruhande rwayo hari ibiti byinshi birebire bikurura umuyaga kugira ngo abantu bahumeke umwuka mwiza.

Imodoka ebyiri harimo umweru ndetse n'umutuku ni imodoka nziza bigaragara ko ari iz'abayobozi. Abayobozi benshi bakunze kugira imodoka nziza kandi zihenze bitewe n'amafaranga bahembwa.

Ibitanda bibiri bigerekeranye biri ahantu mu cyumba cyiza gisize irange ry'ubururu, ni ahantu hari intebe nziza, ameza ndetse n'ibindi bikoresho byo mu nzu.

Ibigo by'amashuri akenshi bikunze kurangwa n'amarange asa umukara, umweru n'umuhondo, akenshi ni yo akunze kugaragara neza kuko atandura vuba.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo intebe, ameza ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga. Ni ibikoresho ubona ko bikeye kandi bikora neza ku buryo buhagije.

Inyubako irimo ibikoresho by'ikoranabuhanga ari byo mudasobwa, harimo ameza, intebe ndetse n'utubati, ni ahantu heza ubona ko hateye neza kandi habereye ijisho.

Icyumba giteguye neza iyo winjiyemo usanga ibintu byose biri ku murongo ariko iyo icyumba kijagaraye umuntu wese winjiye asanga ibintu biri impande n'impande.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye nk'ameza, intebe n'utubati, iki cyumba kandi biragaragara ko kiri gukorerwamo amasuku kugira ngo abanyeshuri babashe kujya bahererwamo amasomo.

Inyubako nini ihuriramo abantu benshi baturutse hirya no hino baje kuganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye, harimo intebe, utubati ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga.

Inyubako nini igeretse kabiri, isakaje amabati atukura, iyi nyubako kandi iriho irangi ry'umuhondo, hari ibiti biyikikije binini.

Icyumba gikorerwamo ibikorwa bitandukanye ndetse haberamo inama nyinshi, harimo abagabo babiri n'umukobwa umwe bari imbere ya mudasobwa, bigaragara ko bari mu kazi kandi bari mu bikorwa byabo.

Icyumba kirimo igitanda cyiza ndetse na matela, imbere yacyo hari rido nini iri ku idirishya, aha hantu hari isuku kandi hagaragara neza ku buryo buri wese yahishimira.

Icyumba kiberamo ibikorwa bigiye bitandukanye, cyane cyane amasomo yigishirizwamo, inama ziberamo ndetse n'ubujyanama bugiye butandukanye, ni ahantu ubona ko ari heza.

Icyumba kinini cyateraniyemo abantu benshi bigaragara ko aba bantu bari mu bikorwa bitandukanye, ni abantu b'urubyiruko ndetse bari kumwe n'umuyobozi wabo.

Muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye hari amashuri meza ageretse kabiri. Aya mashuri akorerwamo ibikorwa bitandukanye bijyanye n'uburezi, kuko abanyeshuri bahungukira ubumenyi bugiye butandukanye.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bigaragara ko ari abayobozi baje kwiga ku bibazo bigiye bitandukanye, bambaye imyenda myiza amakoti y'umukara, amataburiya ndetse n'ibindi.

Abayobozi batandukanye bicaye mu cyumba kiberamo inama, buri wese afite mudasobwa imbere ye ari kugenda asoma ibyatangiwe mu nama kugira ngo atange igitekerezo.

Inyubako isakaje amabati y'ubururu, imbere yayo hari abantu bari gukora ibikorwa bigiye bitandukanye, hari amajerekani ahari bari gukoresha bubaka kugirango ngo bayivugurure imere neza.

Ikirango kijyanye na Kaminuza y'imyuga ikigo cya Kitabi. Imbere yacyo hahagaze umugore ufite indangururamajwi mu ntoki uri kubagezaho imbwirwaruhame.

Ikigo cy'amashuri cya Kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye, kirimo indabo nyinshi ndetse n'imitako bigaragara ko ari heza kandi hafite isuku, ni ahantu ubona ko hateye amabengeza.

Iyo ugeze muri Kaminuza y'u Rwanda, Ishami rya Huye, usanga hakorerwa ibikorwa bigiye bitandukanye, yaba imikino, amasomo ndetse n'ibindi byinshi biteza abantu imbere.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho byo mu nzu, harimo igikapu, matela, igitanda ndetse n'intebe, ni ahantu heza ubona ko abantu baharara bahagirira isuku.

Umuhanda ukoze mu mapave mwiza bigaragara ko unyurwamo n'abantu bagiye batandukanye, hari amashuri agiye asakaje amabati atukura ndetse n'ibiti biteye hagati mu kigo.

Isomero ry'ibitabo by'imibare, Ikinyarwanda n'Icyongereza. Haragaragara ibitabo byinshi cyane bisomwa n'abantu bahaje kugira ngo bunguke ubumenyi bugiye butandukanye.

Inyubako zisakaje amabati y'umutuku, ziri ahantu heza, izi nyubako kandi zirimo insina hagati ziteyemo, izi nsina zitemwaho ibitoki.

Icyumba kirimo ibitanda bibiri biriho ibitambaro by'umweru ubona ko ari ahantu heza, iki cyumba kirimo isuku ndetse abantu bahaza kuharuhukira.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi zitandukanye, haba iz'uburezi, ubuvuzi ndetse n'ibindi, aha habera ubujyanama ku bikorwa bigiye bitandukanye.

Inyubako irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, haba ameza, utubati, intebe ndetse n'ibindi. Biragaragara ko ari ahantu hakorerwa ibikorwa bitandukanye nk'inama ndetse n'ibindi.

Isomero rinini ririmo ibitabo bigiye bitandukanye, harimo ibikoresho byinshi by'amoko atandukanye yaba ameza, intebe, utubati ndetse n'ibindi, ni ahantu heza ubona ko hateguye.

Icyumba kirimo ibitanda bibiri cy'icyuma, iki cyumba ni cyiza kandi kigaragara neza, kiryamamo abantu bafite ikibazo ndetse bakeneye ubufasha.

Inyubako iberamo ibikorwa bigiye bitandukanye, irimo ibirahure biri hejuru y'ameza, bigaragara ko ari iby'abantu bagiye kubakisha izindi nyubako kugira ngo bakomeze kwiteza imbere.

Inyubako iberamo ibikorwa bigiye bitandukanye, irimo ibirahuri kandi n'inzugi nziza zigezweho. Iyo winjiyemo ugirango winjiye mu nzu iberamo ibikorwa bitandukanye by'ubuyobozi.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye, kirimo abanyeshuri benshi cyane. Iki kigo kandi gisakaje amabati atukura, akenshi abanyeshuri bakunze kuvuga ko iyo wize neza ubona amanota meza.

Ubukarabiro bwiza buba burimo ibikoresho by'ingenzi yaba amazi, isabune ndetse n'ibindi, iyo uvuye ahantu wakoze ku myanda biba byiza iyo ukarabye.

Icyumba cy'abanyeshuri akenshi gikunze kuba kirimo ibikoresho byo mu nzu, harimo aho bakarabira, indorerwamo bireberamo ndetse n'ameza barambikaho ibikoresho bigiye bitandukanye.

Ikigo cy'amashuri gikikijwe n'ibyuma gisakaje amabati atukura, kiri ahantu ku muhanda ndetse hagaragara neza ubona ko ari mu mujyi ugezweho w'iterambere.

Kaminuza nkuru y'u Rwanda harimo inyubako nini zisize amarangi y'umuhondo n'umukara, hateyemo ibiti ndetse harimo umuhanda w'amapave ugenda unyura mu kigo wo hagati.

Inyubako nini isize irangi ry'umweru ndetse n'umutuku irimo abanyeshuri bacumbitsemo. Iyi nyubako kandi izitijwe ibyuma impande yayo bituma ikomera.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye iri ahantu heza, iyi nyubako kandi iri ahantu hitegeye uyibona uri ku misozi ndetse no mu bishanga.

Umugabo uhagaze wambaye ishati y'ubururu ari kwigisha abantu bicaye bamuteze amatwi, inyuma ye hari akabati karimo ibitabo ari kugenda abahereza ngo basome kugira ngo biyungure ubumenyi.

Umugabo wambaye ikoti ryiza arimo gutanga imbwirwaruhame, ari kuyigeza ku bayobozi bateraniye mu nyubako nini isize amarange y'umweru ndetse irimo n'ameza n'intebe.

Umuyobozi urimo gutanga imbwirwaruhame ayigeza ku bandi Bayobozi, bagira bimwe bigaho kugira ngo biyungure ubumenyi, kandi bagire ibibazo bimwe na bimwe bakemura bityo ubutaha ntibizongere.

Icyumba kinini cy'amashuri abanza, harimo ikibaho cyiza gisize irangi ry'ubururu, hejuru muri parafo hateye irangi ry'umweru, ni ahantu heza ubona ko hasukuye.

Inyubako nini isize irangi ry'umweru, iberamo ibikorwa bigiye bitandukanye, iyi nyubako kandi irimo umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse n'inkweto z'umukara, bigaragara ko ari umuyobozi uri gutanga serivisi.

Isomero ry'ibitabo bigiye bitandukanye, hari ibitabo by'imibare, hakaba ibitabo by'inkoranyamagambo, hakaba ibitabo by'Ikinyarwanda ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Abanyeshuri bari mu mahugurwa, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, ndetse bambaye n'amapantaro meza cyane. Bari ahantu mu nyubako iteye irangi ry'umweru igaragara neza.

Amakaramu ndetse n'amakayi bifasha abanyeshuri kugira ngo bige neza. Iyo ukoresheje bino bikoresho, bituma ubasha kugira ubumenyi kuko wigiramo ukunguka byinshi, maze ukabaho neza.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo mudasobwa ibitabo ndetse n'ibindi bikoresho, harimo ameza ateretseho ibyo byose, kuko bibafasha kugira icyumba kiza gisa neza.

Inyubako irimo ibitabo bigiye bitandukanye, harimo iby'Ikinyarwanda, Icyongereza, Igifaransa n'Igiswahili. Aha ngaha usanga hahuriye inzobere mu bijyanye n'amasomo, baje kwiga.

Abanyeshuri bari mu ishuri bari kwiga, ubona ko bari kwiyungura ubumenyi, abanyeshuri ni benshi cyane kuko bicaye mu bihande bine, bigaragara ko bakeneye ibikorwa bibateza imbere.

Inyubako nini y'amacumbi y'abanyeshuri biga muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye, iyi nyubako igereretse inshuro enye kandi iberamo ibikorwa bigiye bitandukanye.

Ibikoresho byifashishwa n'abarimu mu gihe bari kwigisha. Ibi bikoresho harimo ikibaho, ndetse na mudasobwa zikoreshwa, kugira ngo bagezweho ubumenyi bw'ibanze, babashe kunguka ubumenyi nyabwo.